uyu mu mama ,ni umu mama wambaye ikote ry'ubururu n'ingofero mu mutwe, akaba ari mu nyanya nziza cyane ziri hejuru ku musozi, akaba ahetse ikijerekani kirimo umuti, arimo gutera izi nyanya.

Uyu muceri ni umuceri uri mu kibaya kigari cyane, ukaba uri gukurantabwo urera neza, hakaba harimo abantu barimo baravomerera bya gakondo, bakaba ari abagabo babiri barimo kuvomerera bakoresheje ibikoresho gakondo.

Uyu mugabo, ni umugabo uri ahantu mu gishanga kigari cyane, ni kigari bihagije, gihinzemo umuceri, akaba ari mu murima ahetse igikoresho gitera imiti, akaba arimo kugenda atera umuti inyungu.

Uyugabo, ni umugabo udakuze cyane ariko uta ari mutoya, akaba ari ahantu ku musozi hahinze umuceri, akaba akikijwe n'ibisa n'ishyamba, akaba ahetse kandi igikoresho twifashisha mu kuvomerera dukoresheje intoki, akaba arimo aravomerera.

Uyu musore ni umusore utari mukuru cyane akaba ari mu murima mugari cyane w'ibitunguru uri ahantu mu rusisiro hafi n'ahantu hameze nk'ikigo k'ishuri akaba ahetse ikijerekani iki dutwaramo imiti yo gutera imbuto cyangwa se ibihingwa akaba arimo gutera imiti mu bitunguru.

Umusaza, ni umusaz umeze nk'aho akuze akaba ahagaze ahantu ku musozi mu rutoki akaba ahagaze hejuru y'cyuzi, ni icyuzi kitari gito ariko nanone kitari kinini cyane kikaba kirimo amafi akaba arimo kujugunyamo ibiryo by'amafi.

Ikiyaga, ni ikiyaga kigari cyane, kikaba ari ikiyaga kiri ahantu, umusozi ushashe neza w'umurambi. Iki kiyaga kikaba kirimo abaturage bafite indobani, abaturage batanu bakaba barimo kuroba muri icyo kiyaga.

Ikiyaga, ni ikiyaga kigari cyane, gikikijwe n'uturabyo twiza ndetse n'agacanga keza, kikaba ari ikiyaga gikeye, gifite ibara ritari ubururu neza, hakaba harimo amafi matoya ariko menshi, akaba ari ahagana ku nkengero z'ikiyaga.

Ikiyaga, ni ikiyaga kigari cyane kiri ahantu mu kabande nko mu gishanga, kikaba ari icya cyubatswe cyangwa cyagomewe, kirimo abantu benshi harimo ababyeyi bakaba bose bahuriye hamwe bafite indobani muri icyo kiyaga, bakaba barimo kuroba.

Abaturage ni abaturage bari ahantu ku bwanikiro mu bwanikiro bw'ikawa basutseho ikawa nyinshi bazihuriraho hari abagabo n'abagore bari ahantu ku musozi barimo kwanikiriza ikawa.

Imisozi, ni imosozi ibiri itegamye ariko irambitse, ikurikiwe n'utubaya dusa neza, iyi misozi bayiteyeho ibihingwa bitandukanye, hagati muri ibyo bihingwa hahagazemo umusore wambaye ingofero y'umukara n'ikoti ry'umukara, ari kuri telefone afite n'igikapu.

Umubyeyi, ni umubyeyi w'imibiri yombi ariko igikara kiganje, akaba akenyeye agatambaro k'umutuku gafite n'amabara y'umweru mu mutwe, akaba kandi arimo gusarura ikawa, ni ikawa itarera neza ariko arimo kuzisarura.

Ibitebo, igitebo kinini kikaba kirimo imbuto nziza zihishije, izo imbuto ikaba ari imbuto z'ikawa zikaba ziteretse ahantu mu byatsi, ku musozi cyangwa se umurima w'ikawa.

Umugabo hari umugabo udakuze cyane, akaba ari umugabo uhagaze ahantu mu ikawa, ni ikawa zitoshye zikiri ntoya zirimo kubyiruka, zikaba zifite amashami menshi kandi zisa neza. Izi kawa kandi zikaba ziteyemo ndetse n'urutoki aho ku mpande.

Hano ndahabona ibikombe byinshi bitekeranyije ibindi biri hejuru yayoindi mu mabara y'umweru nto bi indwa y'umweru hanyuma bikaba byanditseho bigaragara ko ari imiti itandukanye y'amatungo hanyuma bitekan mu kabati.

Aha kuri iyi foto ndahabona amacupa mu mabara y'umweru, afite imifuniko y'icyatsi, andi afite imifuniko y'umweru, ni amacupa avamo imiti y'amatungo, aho ateretse ni mu kabati gafite ibara ry'umweru, iruhande rwaho hakaba hateretse imifuka ndetse bigaragara ko ku kabati gateretse ahantu hari ubutaka cyangwa se sima cyangwa se amakaro.

Mu kabati, n'akabati karimo ibikoresho bitandukanye by'imiti y'amatungo, hakaba harimo amaserumo ndetse n'inshinge ndetse n'indi miti igiye iri mudukarito ariko siko yahutu.

Aha hari uducupa twinshi cyane dupfunyikishije amasashi ndetse n'imifuniko y'umweru, hanyuma tukaba turimo imiti y'amatungo ndabona hashushanyijeho inka, ingurube n'andi matungo, ifite ritiro imwe, kandi uwo muti ni litre litre. Hanyuma hakaba munsi yaho hari n'indi miti iri mu bikombe n'indi iri mugikarito.

Ubujerikani, ni ubujerikani buri mu ibara ry'umweru hakaba bugiye buriho ibishushanyo bitandukanye ubwo bubuni bwose bukaba burimo imiti y'amatungo amatungo agiye atandukanye.

Kuri iyi foto hafi yaho ndahabona abagabo batatu, babiri muri bo bambaye imyenda y'umukara n'umweru, undi umwe yambaye ishati ya karokaro, hanyuma abo bagabo bakaba barimo baratera ibiti barabitera ahantu mu gisambu mu ishyamba ariko ku mpande zabo hakaba hari n'abandi bantu bari mu bindi bikorwa byabo bitandukanye.

Ni inka nini cyane rwose nziza yamabara y'umukara n'umweru, ikaba iri mu rupango hakaba harimo umugabo arimo gukama arakamira mu cyantsi, akaba yambaye bote n'pantaro y'umukara, umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umweru.

Hano ndahabona abantu babiri bari mu bishyimbo umunyagicanga ari ibihingwa byiza byubururu sorry by'icyatsi kibisi ahabona ibasi y'ubururu, umubyeyi mbona ni umubyeyi ufite agasatsi ka naturere ukenyeye ikintu kimeze nk'igitenge munda akaba yambaye n'ikanzu, harimo n'akayira hagati.

Ibigori ni ibigori biri ahantu ku umusozi ari ibigori byinshi bikikijwe n'igisambu ariko ho ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti, gusa ibi bigori bikaba byarumye byareze, ariko byumye amashami amwe andi ntaramara kuma neza.

Ndahareba umurima munini w'ibigori hanyuma imbere yange ndahareba ibigori byiza bibyibushye byahetse bihetse ibigori bibiri hanyuma ni ibogori biri mu ibara ry'icyatsi kibisi umusatsi wabyo warumye biri ahantu mu murima ariko bigaragara ko hari ibindi byatsi byinshi hasi.

Aha hari igihingwa, icyo gihingwa kikaba imyumbati, imyumbati myiza itoshye cyane ifite amababi menshi, ifite n'imibyare myinshi iri ahantu mu murima ku musozi munini, hanyuma ikaba ikikijwe nta byatsi byamezemo, ikaba ikikijwe n'ibiti hafi aho ngaho.

Izi ntoki ni ibiganza bibiri byambaye ga, bikaba byambawe n'umuntu wambaye ishati ijya gusa n'iroza ndetse n'itaburiye y'ubururu, akaba yambaye ga z'umukara, akaba afite ibirayi mu ntoki, ari ahantu mu murima, intoki ze biragaragara ko zari ziri gucukura cyangwa se kuzamura ibi birayi mu butaka.

Urudodo, urudodo rutoshye urwo ndukunze kwita urubwija ni uruboga rumwe ruri ahantu hatari ibindi bihingwa biri hafi rwo rwahameze ariko ruhamera ari rwiza cyane.

Aha ndahabona ibyatsi hafi yanjye hano imbere yanjye nkahabona ikimashini kinini cyane icyo kimashini kikaba kiri kumwe n'abantu, abantu bageze kuri batatu umwe muri bo afite isuka arimo guhinga, hafi aho hakikijwe n'ishyamba ry'ibiti ubona ko rwose bikuze cyane ariko hakaba hari n'ibyatsi bihakikije mbere yo kugera ku ishyamba.

Igiti cy'umwembe giteye ahantu mu byatsi, ibyatsi bitaraba byinshi kandi kikaba kitarakura kiracyari kigufiya mu bigaragara kiracyari gitoya, nta mbuto ziriho gifite amashami yonyine.

Iyi foto iri imbere yange ndayirebaho imboga za dodo, ibitunguru ndetse n'izindi mboga zitandukanye zigaragara ko ari umurima w'imboga ariko dodo zarashaje zazanye n'ibisage. Hanyuma bigaragara ko nyine zidakunda gusoromwa hafi aho ngaho hari akarima, ni akarima.

Ni igihingwa kiri imbere yanjye k'imyumbati, akaba ari imyumbati iteye ahantu ku gasozi hafi mu mazu, akaba imyumbati kandi ifashije ibyatsi, gusa hafi yange ndahareba imyumbati ibiri yonyine hirya hakaba har nindi mumbati iteye ahantu hafi y'amazu hagaragarako ari ahantu hegereye abaturage.

Umusozi; umusozi uriho amashyamba menshi, amashyamba menshi cyane rwose, akaba hubatsemo inzu z'ibiti, inzu z'ibiti zubatsemo zikaba bazisakarishije amabati y'icyatsi kibisi ariko noneho yange nkaba mareba n'indabo.

Aha kuri iyi foto ndahabona umusozi usashe neza utari ibinunga usa n'aho urambitse, uwo musozi ukaba uriho amashyamba ariko ari amashyamba makeya adacucitse hakaba harimo n'ibyatsi byiganje ariko hasi ahagana hepfo hakaba harimo igishanga icyo gishanga kirimo ibyatsi, hakaba hari n'ikirere kigaragara.

Ni ibiti binini byashaje biri ahantu mu ishyamba rikuze cyane, hahindutse urubobi hose no hasi kubutaka byabaye icyatsi kibisi. Bikaba ari ibiti birebire biriho imizi myinshi kandi bikaba byarafatanye mbese byarasobekeranye cyane.

Uyu mugezi, ni umugezi utari mugari, usa nabi amazi yawo aranduye, ukaba uri ahantu ku musozi ukikijwe n'ibiti bitari byinshi nabyo, hanyuma muri uyu mugezi hakaba harimo igiti cyo hakurya y'umugezi cyaguyemo, cyambukiranya umugezi kigera ku ruhande rwo hakurya.

Hano ndahabona ibiti byinshi n'ibyatsi, nkabona imodoka irimo hariya hafi mu byatsi mu imbere, ndabona harimo akayira k'ibyatsi, ibindi ni ibihuru, harimo n'akantu k'agateme.

Aha ndahabona inanasi ebyiri imwe irahishije cyane ni nini cyane, iyiyikurikira ni gatoya hanyuma zikaba zifite amahwa baciye n'izindi nanasi n'ibyatsi aho muri uwo murima, iyi nanasi yo hino ikaba ifite imidare, imidare ndabona igera kuri itatu n'amahwa menshi.

Ababyeyi ni ababyeyi bari mu gushanga bakaba barimo gusoroma imiteja, mu murima w'imiteja isa neza cyane kandi itohagiye iri ahantu mu musozi.

Aha kuri iyi foto ndahabona akarima k'igikoni, akarima k'igikoni kakaba gakozwe mu mifuka ikikijwe n'ibiti ku mpande, ndareba inzu y'amatafari idakurungiye hakaba hari indabyo n'insina nkeya, mu karima k'igikoni harimo imboga zitandukanye harimo ibitunguru, harimo imboga za dodo ndetse hakamo na betarave ndetse na karoti,

Umubyeyi, ni umubyeyi w'imibiri yombi, akaba yambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'uduherena ku matwi, akaba yambaye ishati y'icyatsi kibisi, ari mu murima w'indabo arimo kuzisarura.

Aha kuri iyi foto ndahabona imirima, ni imirima iciyemo ibice, iyo mirima ikaba ihinzemo amashu cyangwa icyo twita shuperi, ni imirima isataguye myinshi, hakaba harimo umubyeyi, umubyeyi akaba arimo aravomerera akoresheje indobo y'umutuku.

Iyi foto iriho inyanya nziza cyane zihishije ziri mu ibara ritukura kandi nyine ubona ko zishishe zinabyibushye hakaba hari n'ibigori byiza nabyo bibyibushye ubona ko batemye rwose bimeze neza ibyo bigori kandi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi ariko hakaba harimo n'amashami yabyo yagiye asigaramo.

Aha hari umugabo uri mu murima wa pome, akaba harimo pome nziza zo mu ibara ritukura, akaba afite ikidomora yambaye imyenda y'umukara, afite agasatsi gacye ka natirere, hakurya ye hari ikirere cyiza cy'ubururu.

Hano imbere yange ndahareba jaride irimo ibiti bitandukanye, ariko hafi yange hari igiti cy'umwembe gifite imyembe gitoshye, gifite ibibabi byinshi hariho imbuto z'imyembe, ariko kikaba kiri ahantu mu ka jardin, hafi yaho aho ngaho hari izindi mbuto zagiye zihahungukira, hakaba handitseho ko ari itariki eshatu, makumyabiri na zirindwi z'ukwa gatatu, bibiri na makumyabiri.

Ibitunguru ibitunguru byiza bibyibushye kandi bisa neza ,byah'ahantu mu butaka bworoshye ,byareze hakaba harimo umuntu urimo kugerageza kubirandura, cyangwa se kubisarura ngo atangire kubibyaza umusaruro.

Aha hari imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, hakaba hari inyaya, cocomble ,ibihaza ,ubutunguru, puwavuro, seleri, epinali, ndetse n'ibindi bitandukanye. Aha kuri iyi foto yo hejuru bikaba biri muri pepinyeri, hanyuma hasi bikaba byaramaze guhingwa bireze.

umugabo ni numugabo wambaye ti shati y'ubururu, ikote ry'umukara nyuma y'undi mugabo uhagaze ahantu kumusozi uhanitse cyane. Uyu musozi uriho igihingwa cya'matunda ariko atarera neza. Ni amatunda menshi.

Ndahabona igihingwa ni igihingwa cya pome akaba Ari pome nziza zizakura zihinze ahantu ku misozizi ari nyinshi cyane kandi zeze.

Inzu ni akazu gasakaje ibati ry'umutuku, kaba ari akazu kubatse ahantu mu gashyamba ku musozi, iruhande rwaho hakaba hari umuhanda, aka kazu kakaba gakubiyemo ibikoresho bigenda bikwirakwiza amazi mu bishanga bitandukanye no ku misozi kugira ngo abaturage babashe kuhirira ibihingwa.

Umubyeyi umubyeyi wunamye ahantu ku musozi ukikijwe n'amashyamba ndetse n'ibindi bice bitandukanye, akaba arimo kuvomerera imbuto akoresheje ibasi ndetse n'igikombe asuka muri izo mboga.

Uyugabo umugabo, ni umugabo wambaye imyenda y'umukara uri ahantu ku musozi urambutse, umurambi ukaba uteyeho urutoki rwinshi ndetse n'ibindi bihingwa, ariko we aba arimo kuvomera imbuto zikiri ntoya buri mu mubiri.

Ikiyaga ni ikiyaga kirekire kandi kigari cyane, gikikijwe n'imisozi y'utununga, imisozi ikaba igiye iriho ibyatsi ndetse n'amashyamba atandukanye akaba hari n'ikirere gisa neza cy'imyeru.

Hano ndahabona imisozi ni imisozi igera kuri ine iteganye kuri iyo misozi ibiri ifatanye haciyeho amaterasi y'indinganire hakaba hariho agashyamba gakeya, agashyamba gakeya rwose.

Hano nabonye igishanga kinini cyane rwose kinini cyane kirimo akagezi kamanutsemo, icyo kishanga kikaba kirimo imirima igiye igabanyijemo uduce twinshi, hafi yaho hakaba hakijwe n'imisozi miremire, hari ibihu byinshi, hari amashyamba ndetse n'ibyadukikije aho hantu.

Mu dusozi dutatu tune duteganye akaba Ari udusozi turiho amashyamba atari menshi ndetse n'ibyatsi bitari byinshi hakaba hakikijwe n'ikirere gifite ibara ry'ubururu.

Hari ingurube rifite ibara ry'umukara ikaba iri ahantu mu nzu, inzu nayo isize irangi ry'ibara ry'umukara, ikaba hamennyemo ibiryo by'ingurube ikaba iri kumwe n'ibibwaguro byayo bitatu.

Inka ni inka nyinshi, ziri ahantu hamwe mu nzu, zubakiwe. Akaba ari inka zisa neza mu ibara rimwe kandi zambaye amaherena, imbere yaho hakaba hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru. akaba yazishyize ubwatsi imbere.

Umusozi, ni umusozi mugari cyane uriho ifamu, akaba harimo uduti dukeya ndetse n'ibyatsi byinshi, hari n'inka nyinshi zirimo kurisha, hafi ahongaho hakaba hari n'abashumba baziragiye, harimo inka nkuru n'intoya bita inyana cyangwa imitavu.

Hano hari inkoko nyinshi ziri ahantu umuntu bigaragara ko ariho bazororera hakaba harimo ibiryo by'inkoko binyanyagije muri iyo nzu harimo ikaramu hakabamo n'utuntu inkoko zinywemo amazi ariko hafi yange hano hakaba hari urugi rusohoka muri iyo nzu akaba ari inzu yubakishije ibiti yego.

Izi nkoko ni inkoko zikiri ntoya cyane zikuze vuba zikaba ziri ahantu mu kibuti ari nyinshi. Hakaba harimo umugabo wambaye bote z'umweru urimo kugaburira izo nkoko. Hakaba harimo n'ibiryo bisutse hasi ndetse n'ibikoresho zigenda ziriramo zikananyweramo amazi.

Ni ihene nyinshi cyane ziri mu mabara y'umweru ndetse n'igaju, zikaba ari ihene zifite amahembe, inyinshi muri zo akaba ari imbyeyi ariko havanzemo n'amasekurume, ziri ahantu mu rwuri ku musozi mugari urimo ibyatsi ndetse n'ibihuru bivanze zirimo kurisha.

Kuri iyi foto ndahabona inka ni Inka eshatu nziza zifite amahembe ateze neza hafi y'izo nka hakaba hari abantu abantu babiri bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse na bote n'abandi batatu bambaye amataburiya y'umweru ndetse bakaba bambaye na bote uduko kandi izo nka Kandi zikaba ziri ahantu mu rupango.

Inka, ni inka nyinshi zibyibushye zirimo izifite amahembe n'izitayafite, zikaba ziri ahantu ku musozi, umusozi urambitse mwiza, harimo ibiti bikeya n'ibyatsi byo zirisha.

Iki ikiraro, ni ikiraro kigari cyane cyubakishije ibi byuma bihazengurutse hakaba harimo inka nziza cyane zibyibushye kandi zambaye amaherena, zikaba zose ari inka zifite ibara rimwe ry'ikigina.

Ihene ziri hano ni ihene nyinshi cyane cyane zirenga magana abiri, akaba ari ihene zivanzemo inkuru n'intoya, amasekurume n'amashashi, zikaba ziri ahantu hakorotiriye, bigaragara ko ariho zororerwa, akaba ari ahantu ku misozi uriho agashyamba gakeya.

Izi ni inkoko udutoya cyane tukiri imishwi, tukaba turi ahantu hamwe mu nzu, turimo ari twinshi, utu dukoko hakaba harimo ibiryo byatwo ndetse hakaba harimo n'ibikoresho tunyweramo amazi.

Inkwavu, ni inkwavu zitari nyinshi cyane ariko nanone zitari nkeya, akaba ari inkwavu ziri mukazu zororerwamo, inzu ikaba, ako kazu bakaba baragateretse ahantu mu rugo, hakaba hakikijeho utuntu dukoze muri senkenge twubakiye inkwavu.

Inka, ni inka y'ikibamba, ikaba ari inka nziza kandi ibushye, itagira amahembe, ni inkungu, ikaba iziritse ahantu mu rupango rw'ibiti, bikikijwe n'ishyamba n'urutoki, hakaba hari umugabo wicaye imbere yayo, urimo kuyihera amazi yo kunywa mu ibase.

Urupango, ni urupango rwubakishije ibyuma, haba harimo inka nziza rwose ifite amahembe, ikaba iri ahantu ku musozi usennye neza uringaniye, iyi nka ikaba iri ahantu hari umuntu uri inyuma yayo wambaye itaburiya cyangwa se iniforume y'ubururu ndetse na kositime y'ubururu, arimo arayikora mu nda ibyara.

Ibigori ni ibigori bihunguye bikaba ari ibigori banikirije ngo barebe ko byuma, hakaba harimo umuntu urimo uragenda akuramo imyanda, ibigori byaboze ndetse n'ibindi bidakenewe.

Aha hari ibigori, ni ibigori byinshi cyane birunze no hakurya hakaba harunze ibindi, ni ibigori kandi byumye, aha niho babisaruye hanyuma barabyanikaba, hakaba hari n'abaturage babikikije baje kubyanika ndetse no kubibyaza umusaruro.

Ikawa ni ikawa zitonoye zitunganyije, zikaba zirunze ahantu mu kintu kimwe, umuntu uzifite mu kiganza akaba yambaye uturindantoki .

Mironko cyangwa se imbehe ni imbehe nyinshi ariko atari nyinshi cyane, zirimo ibinyampeke bitandukanye harimo soya, harimo uburo, harimo ingano, harimo amasaka, harimo ndetse n'ubunyobwa, hanyuma bikaba biteretse ahantu ku nkoko.

Uru rupango ni urupango rugari rurimo inka ibyibushye cyane, inyuma yayo yiyo nka hakaba hari umuveterineri akaba yambaye itaburiya y'ubururu, akaba arimo gukora mu nda y'iyo nka arimo kuyivura, ariko hafi aho hakaba hari indi nka nayo iri inyuma ye zikaba ziri ahantu mu rupango ku musozi ufashe neza.

Ikiraro ni ikiraro cyubakishije ibiti ndetse n'amatafari ahiye, kikaba gikorotiriye na sima, akaba ari ikiraro kirimo inka zifite amabara y'umukara, izi nka hakaba harimo veterineri arimo kuzikora mu nda.

Umukobwa wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'umukara n'ingofero y'ubururu bwijimye, ari ahantu ku rupango, urwo rupango rwa rurimo inka, inka ya Sine, akaba arimo arayikora mu nda, hanyuma uru rupango rwa rwubata ku musozi urambitse, hariho n'ibyatsi.

Ni inka nziza z'inyambo ziteze amahembe neza zikaba inka nyinshi ziri ahantu mu rupango aho hakaba hari abantu bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'abambaye amataburiya y'umweru bagaragara ko baje kuzivura cyangwa se kuzikingira.

Urupango ni urupango rwubakishije ibiti, akaba ari uruvango rurimo inka nziza ibyibushye ifite amahembe, inyuma hakaba hari indi nka none ariko inyuma y'iyi ngiyi iri hafi yange, hakaba hari umuntu wambaye bote z'umweru, ingofero y'umweru ndetse n'ikaruvati y'ubururu, ari kuyikora mu nda.

Aha kuri iyo foto ndahabona umugabo, ni umugabo wambaye impuzankano y'ubururu isarubeti y'ubururu yambaye ingofero yambaye yambaye n'ikindi kintu kujya kumera nk'isashi ku maboko arimo arakora mu nda y'inka arimo kuyibyaza iyo nka iri ahantu mu rupango ku musozi ushashe neza aho hantu hakaba hakikijwe n'amashyamba.

Aha ndahabona inka, Inka nziza nini cyane ibyibushye barimo barayibyaza irabyawa n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru hakaba hari n'uwambaye isarubeti y'ubururu iri ahantu mu rupango rwubakishije ibiti bisize ibara ry'icyatsi kibisi, ariko hafi hakaba hari indi nka iteze amahembe hirya yaho hakaba hari agasambu kahakikije ndetse n'imisozi irambitse n'uturere hakurya.

Aha, nahabona inyamaswa. Inyamaswa ziri mu mazi hanyuma muri ayo mazikora amazi makeya kuko ntabwo zirengewe cyane, hanyuma hakaba amabuye hirya gato y'amazi ku nkombe, hari ibyatsi bihakikije, hakaba n'ibihuru byinshi bimeze nk'amashyamba, yego.

Aha kuri iyi foto ndahabona inyamaswa zitandukanye nk'imvubu hakabamo intare hakabamo ingewe hakabamo impyisi hakaba ndetse n'ibyatsi zikaba zaba mu ibyatsi hiryaho hakurya y'aho hakaba hari ikirere kijimye bukeya.